Abana n'abantu bakuru bari mu bikinisho by'abana, hari abari imbere hari n'abari hejuru hari n'abari hirya hakurya muri pisine bari mu byicungo by'abana.

Ikigo cy'abanyeshuri gishushanyijeho ibimera, uko bikomera n'uko biterwa, abanyeshuri bagiye kwinjira mu ishuri; hari abahagaze haruguru, hari n'abahagaze hepfo bari mu kwiga uko bikorwa.

Abana barimo kwicunga mu byicungo by'abana, hari babiri barimo kuza kwicara ngo bicunge, hari n'akandi karimo kicaye hasi arimo kuza, hari n'ugeze ku ruhande.

Ibishushanyo bitatu, icya mbere hariho abana barimo gukina, hariho n'akandi karimo kubareba, igishushanyo cya kabiri kirimo hagati, cyanditseho abana ba twiga bararwaye, hariho abantu barimo kwanika imyenda, barimo kumesa banika, igishushanyo cya kabiri handitseho mayi taraka izi sitaki. Ibishushanyo by'abana ndetse n'umuhanda muremure urimo abantu icyenda.

Inzu nini ifatanye n'iyindi nzu ku ruhande hareba ikigega giteretse kugisima, harimo umureko utwara amazi mu kigega, hari mo n'urisinga rutwara umuriro, hari n'urundi agapayipu karimo gutwara amazi kayavana mu kigega hari n'igipangu.

Ni urupapuro rwanditseho inyajwi j na w, mu murongo wo hejuru, ni mu mukono mutoya, hanyuma mu murongo wa kabiri, inyajwi j na w, j iri mu cyapa indi iri mu mukono.

Ni ifoto igaragaza ibishushanyo bitandukanye, igishushanyo cy'intare, igishushanyo cy'umuntu, igishushanyo cy'inka, igishushanyo cy'amakamyo abiri, icy'ibimasa bibiri, igishushanyo cy'inka n'umuntu wikoreye inkwi, igishushanyo cy'akanyugunyugu n'akarabyo ruguru n'undi muntu wikoreye inkwi, agenda n'utundi turabyo twinshi ku ruhande n'igishushanyo cy'umuhanda.

Imeza iteretseho iparato, iparato iriho inyanya enye ziri mu marangi atandukanye, hari bulu girini hari pinki hari papo inyanya zose ziri hamwe ku gitambaro cy'umweru

Abanyeshuri batoya bari mu muhanda barimo gukiniramo bambaye impuzankano y'ishuri isa ubururu n'umweru harimo abahungu n'abakobwa haruguru n'umurima bahinze utarimo ikintu nta kimwe harimo n'igiti kipoto.

Ibikinisho by'abana birimo amoko menshi cyane, bose babizanye aho ngaho hari ibirimo kuko hari ibikinisho byinshi bitandukanye biri angaho n'ifoto yabyo.

Ni igishushanyo cy'itara kirashushanyije kirimo amabara y'ubururu n'umweru harimo n'igishushanyo muboza hari igishushanyo cya sako biri ku muryango winjira mu ishuri ry'abanyeshuri.

Igikuta gishushanyijeho umuntu n'ibice bigize umubiri w'umuntu n'amazina yabyo, yambaye ipantaro agashoti k'ubururu, inkoko hasi iriho n'umushwi wayo ku kibaho igikuta cy'inzu.

Abana bafite ibikinisho byabo bari muri pisine bari mu bikinisho boga, kuhande hari abantu bari kuhande muri pisine, hari ubahagarariye ku ruhande ubahagarikiye arimo kubareba uko boga, bari muri pisine bakoresha ibikinisho byabo harimo amazi na pisine.

Ibikinisho by'abana bikoze mu imodoka, hari mafuso hari amafuso atwara imicanga, andi yakaragita mpinga n'izindi zisanzwe zimakamyo, ibikamyo bitwara imicanga ziri mu mabara atandukanye zitwa orisita.

Ikigo cy'amashuri kiri uruhande rw'ibiti, haruguru yacyo hari ibiti biteyeho byinshi cyane, amashuri arafunze, hari imiryango ibiri ,aho rimwe ritangirira n'indi rikarangirira, aho amashuri arafunze afite inzugi z'umuhondo, inzugi zisigishije urucaca, ibikuta ni umuhondo.

Seti ifunguye irimo ibikoresho byose, harimo kampasi ebyiri, harimo raba, harimo lula na penso, harimo na shapena, irafunguye, ibikoresho by'abanyeshuri bakoresha mu gushushanya no mu kwandika bisanzwe, ni byo abanyeshuri bifashisha.

Ikigo cy'amashuri y'abana batoya, kirafungu, imiryango irafunze ariko imbere hari amajaride, imbere hari n'umuhanda, inyuma hari ibiti.

Ibikinisho by'abanyeshuri bifashisha mu gukina harimo baro, harimo utuziga two gusimbuka, harimo umugozi wo gusimbuka, harimo ibikinisho byinshi cyane by'abanyeshuri by'abana batoya bakoresha mu gukina muri bureki tayimu.

Ishuri ririmo ibikinisho ry'abana byinshi cyane birimo amabara atandukanye. Bimwe biri kugikuta, ibindi biri hasi. Mo imbere harimo abana bicaye mu by'icungo barimo kwicunga. Hari n'abicaye hasi barimo gukiniramo.

Umurongo w'imfungwa zambaye umuhondo n'abanyeshuri bandi bambaye umweru n'umukara utari umukara cyane, hirya hari amatenti, bahagaze kuri asembo, inyuma hari ishyamba ry'ibiti, hirya hari imirima y'ibitoki.

Harimo ibiti bire byinshi n'amashyamba n'utwatsi tugufi n'imihanda n'amashuri, amazu matoya n'amanini hari imisozi hakurya n'ibihu byinshi cyane, birimo hakurya ntaho bigaragara cyane hari imitumba n'imihanda.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, ari imbere y'abanyeshuri bicaye munsi y'ibiti ku madeske, abahungu bambaye t shat, abakobwa bambaye amashati n'amajipo, kaki, ari imbere yabo bafashe mikoro n'urupapuro barimo kuvuga, inyuma yabo hari amashuri, kuhande hari aba youth volunteers bambaye utujiri tw'urucaca.

Abanyeshuri bari ku ishuri baricaye muri dinning barimo kurya kiriyeho, bafite ibiryo barimo kuyarurira abicaye mu mashifuti haruguru hagati no hepfo barimo kurya.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bafite ibitabo n'amakaramu barimo kwandika buri munyeshuri yicaye ku ntebe ye ,igihande kimwe kiricara kireba abandi ikindi kirareba imbere, mu ishuri ibirahure birakinguye.

Icyumba cy'amashuri kiri muri jaride nziza hepfo no haruguru hari ibirabyo, hari umuhanda urimo kuva ku mashuri, imiryango, hari n'abantu barimo guturuka muri jaride yo haruguru no hepfo.

Ikigo cy'abanyeshuri bicaye hanze mu ntebe zabo za desk, bicaye munsi y'ibiti, hari umunyeshuri umwe ufashe imikoro imbere yabo aravuga, yambaye n'ifomu ya cashye hasi, hejuru ni umweru na tayi ya kacyi, abandi banyeshuri batambaye gutyo bambaye ubururu hejuru, na unifomu za caki hasi. Hirya hari indi group yambaye indi unifomu y'umuhondo.

Ishuri rya etage; hasi ,hejuru na etageranande hari ikigega gikikijwe n'ibyuma by'umutuku birebye itoreroye ikigo hirya hari ibiti hirya hari amazu make ya

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye inifomu hasi ya kaki, hejuru n'umweru na tayi y'ubururu bari kumwe n'abayobozi babo batatu, babiri b'abagabo n'undi umwe w'umudamu, bari imbere y'ishuri barimo kwifotoza.

Abanyeshuri babiri bayicaye barimo kwiga, umukobwa arimo kwandika, umuhungu arimo kumva, bakurikiye bari mu ishuri bariga, imbere yabo hari ibitabo barambuye bari kuri desiki barimo kwiga, bambaye inifomu z'ubururu na peni.

Agatebe gakozwe mu ibumba gafite amaguru atatu bakubitse, aho bakabumbiye niho bakubitse ku mahema hasi hari amarido.

Ibikoresho by'ubwubatsi bakoresha mu buryo bwo kubaka, hari indobo irimo amasima, ingabo y'irange irimo amasima, hari ikibati cyamenetse, imicanga hari urubaho, hari ga bambara mu kubaka, bakoresha mu kubaka, hari agansinga gatoya kari uruhande rwa ga bambara.

Imitako myinshi cyane cyane irimo ibikoresho by'abakobwa imitako y'amaherena myinshi cyane bashyizeho n'utunigi biri mu mabara y'ibitenge byinshi.

Umuntu arimo kubumbima. Umuntu arimo kubumba, ibumba abumba utubindi adushyira hirya mu tubati hari indobo hari n'ibikoresho bindi akoresha mu kubumba, ibikoresho bye byose. Yambaye imyenda.

Hari urupapuro ruteretse ku ntebe, ku kuboko kw'intebe hariho hageretseho agakayi ka buru, urupapuro rw'igitare, amagambo ariho ntabwo agaragara.

Igishushanyo kiriho amabara menshi harimo uduseke tubiri akanini na gatoya. Harimo n'akandi gaseke kanini cyane karimo andi mabara. Hakurya harimo Bibiliya, igitabo kirambuye no hirya hari ikindi gitabo kirambuye; hariho n'umutwe w'umuntu.

Abanyeshuri bo muri TVET schools bamaze ku graduatinga bambaye gauts hari abambaye ubururu, umukara, umuhondo, umweru n'icyatsi kibisi hari abicaye, hari abahagaze hari abayobozi babo babicaye imbere yabo benshi cyane barimo ku graduatinga no muri tente yindi hari abayobozi babo bahagaze inyuma yabo.

Imbaho ebyiri rumwe rumanutse uruhande rwegetse hasi, ruri muri kalase yabo ifite isima yashaje, nk'akabaho n'akameza gatoya karambuyeho igitabo hakaba harimo na purize, ishuri riteye irangi rya gurini.

Abantu batanu harimo abakobwa batatu n'abahungu babiri bafite amafotopi n'ibitabo barimo kwandika n'amatelefoni yabo, bicaye mu ntebe hagati hari imeza niho barimo kwandikira, inyuma yabo hatend imbere yabo hirya hari igipangu k'inzu hari n'ibiti byinshi n'imirima.

Ikigo cy'amashuri, ni urugi ruri ku muryango rugaragaza ko ari ICT Lab. Ibiro bya computers, hejuru handitseho Nyagatare campus Rwanda UR, ni ikigo cy'amashuri. Hari icyumba kiriho urugi.

Umuhini n'isekuru bamaze kubaza umuhini uteretse mu isekuru bategereje abaribuze kubigura kandi hasi hari ibishishwa bya bari bari kubariza.

Abanyeshuri benshi bicaye muri sale, buri bantu bicaye kuri tabo yabo bafite inifomu z'imyeru n'imikara, bambaye amataga yabo imbere ku gatuza n'amacupa y'amazi yo kunywa n'ibitabo byabo.

Abantu batanu harimo abadamu batatu n'abagabo babiri, itsinda rimwe ririmo gukoresha mashini, irindi rikoresha telefone, mu cyumba bari ku meza, barimo gukorera bandikira mu bitabo, bari mu cyumba n'amabaga yabo.

Abanyeshuri bari muri sale barimo kwiga, barimo kwiga, imbere hariporogiteri ebyiri, hagati hari agatanda kagezeho gakoreshejwe idarapo ry'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri y'imyuga, kirimo abantu benshi abamama, basore abagabo, abana, abantu batoya, nibo bantu benshi barimo kwiga, bicaye ku meza bafite amakaramu barimo kwandika abarimo kumva, impande eshatu zirimo abanyeshuri bose b'imyuga.